Umugabo w'Umwirabura ari ku mugezi wa robine, ari kumwe n'umwana muto waje kuvoma akoresheje indobo ifite ibara ry'umuhondo. Uwo mwana ari kwikorera amazi umugabo yamufashije ingata yo kwikoreza.

Abantu icyenda igitsina gore n'igitsina gabo, ndetse harimo n'ushinzwe umutekano ku rwego rw'abadaso, bicaye ku ntebe bakoze uruziga bari kuganira bafite amakaye mu ntoki, bari imbere y'inyubako yanditseho gira ubuzima.

Abaganga batatu babanasi bambaye imyenda y'akazi na ga ndetse n'udupfukamunwa, bari mu cyumba kirimo umusaza wicaye ku ntebe, umwe ari kumutera urushinge ku kaboko, kumukingira indwara kugira ngo akomeze kubaho neza.

Abana batandatu, abahungu n'abakobwa, bambaye imyenda isa, inifomo ya kaki, bari ku mugezi, bari kuvoma amazi, bakoresheje indobo, zifite amabara y'umuhondo, ayo mazi ni ayo gukoresha ku ishuri, kukoropa, ndetse no kwita ku isuku.

Abagore n'abagabo bari kumwe, bamwe bambaye amabaji abandi bambaye imyenda y'akazi, bari ku kigo nderabuzima, bari bari kuganira ku buryo bwo gukumira no kurwanya, gutwita ku bangavu bakiri bato.

Abantu benshi bicaye ku kigo nderabuzima aho bakirira abantu, bategerejwe kwakirwa n'ababishinzwe kugira ngo boherezwe mu zindi serivise harimo kubonana na muganga, guhabwa imiti ndetse n'izindi.

Umwana w'umukobwa wambaye imyenda y'ishuri, ijipo ndetse n'ishati ari kuri kandagira ukarabe yashyizwe ahabugenewe ari gukaraba intoki ze n'amazi meza ndetse hari n'isabune kugira ngo bimurinde umwanda.

Umuganga w'igitsina gore yambaye imyenda y'akazi, ari kumwe n'umubyeyi w'umwirabura ufite umwana muto, uwo mwana ararwaye, umuganga ari kumuhereza imiti kugirango abe muzima yongerare abeho neza.

Abajyanama b'ubuzima batanga serivise zo gutanga inama no gukurikirana isuku n'ubuzima bwo mu ngo, bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima cya Mayange, bari kumwe n'abazungu, barishimye, bari gukoma amashyi, bari no kubyina.

Umuganga w'umusore ubifite mu nshingano nta myenda y'akazi yambaye, ari kumwe n'umumama ufite umwana, uwo mwana bari kumutera urushinge ku kaboko bamukingira indwara nyinshi kugira ngo bizamurinde kurwaragurika.

Abantu batari benshi bari ahantu hamwe bambaye udupfukamunwa, harimo n'abamama bafite abana. Umubyeyi umwe ari guha umwana umuti kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza binamurinde kurwara.

Umwana w'umukobwa ukiri muto uherereye mubice byo mucyaro ari ku mugezi imbere ye hari amajerekani ay'umuhondo na rimwe ry'ubururu na we aricaye ari gutegesha amazi akoresheje ibiganza bye ari guseka arira.

Urubyiruko abakobwa n'abasore ndetse n'abagore ndetse n'abagabo bafite bana yanditseho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri y'inkondo y'umura bari gukangurira abantu kwisuzumisha kugira birinde kwandura kanseri y'inkondo y'umura.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi yose yabugenewe ari mu kazi ari kumwe n'umumama uteruye mwana muto, uwo muganga ari kuvura uwo mwana kugira ngo agire ubuzima bwiza akomeze no kubaho neza.

Urubyiruko abahungu ndetse n'abakobwa bicaye muri sale, bamwe bambaye imipira ifite ibara ry'icyatsi, abandi ifite ibara ry'umweru, imbere ya buri wese hari ameza ariho amakaye yabo ndetse n'amazi yo kunywa.

Abana babiri b'abahungu bo mu cyaro, bari ku mugezi barekuye amazi bari kuyategesha ibiganza byabo, barishimye bari gukina na yo, bishimiye ko babonye amazi akabegera kubera ubuyobozi bwiza.

Abamama batatu, babiri bambaye udupfukamunwa bari ku ivomero bari kuvoma amazi bafite amajerekani, bari no kuvoma amazi bakoresheje intoki ndetse bakayanywa bifashishije amaboko yabo.

Abana b'abanyeshuri abahungu n'abakobwa, bicaye mu ishuri ku ntebe, imbere yabo hari ibiryo byo kurya byatunganyirijwe ku ishuri kugira ngo bibafashe gukomeza amasomo yabo neza, batananiwe.

Umugezi wa robine w'abaturage uriho abana babiri bari kuvoma amazi yo gukoresha mu rugo, guteka, kumesa no gukaraba ndetse n'yindi mirimo itandukanye, hirya yawo hari abandi bana bavuye ku ishuri.

Umugabo w'umwirabura yambaye ipantaro ndetse n'ishati ari guseka arishimye, ari ku mugezi wa robine afite ijerekani agiye kuvoma amazi yo gukoresha imirimo itandukanye harimo kumesa, guteka ndetse no gukaraba kugirango akomeze kugira ubuzima bwiza.

Abaturage baje ku ivomero rusange ryubatswe na Leta, ribafasha kubona amazi yo gukoresha mu buzima bwa buri munsi, agatuma bagira isuku, ndetse akanabafasha guteka, gukaraba, ndetse n'iyindi mirimo.

Umugabo ari kumwe n'umwana mutoya bose babirabura ari kumukorera ijerekani iriho icyapa cyanditseho Unicef, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana, bose barishimye bari guseka.

Abana b'abakobwa bambaye imyenda y'ishuri inifomo, bari ku mugezi w'amazi bayafunguye bari kuyakaraba bakoresheje intoki, amwe ari kumeneka barishimye bari guseka, bishimiye ko bafite amazi.

Umubyeyi w'umumama uherereye mu bice byo mu cyaro ari ku mugezi wa robine yagiye kuvoma amazi akoresheje amajerekani, ayo mazi ni ayo kwifashisha mu rugo guteka, gufura ndetse n'iyindi mirimo.

Abana b'abirabura, bafatanye ku runana; bambaye imipira isa, ifite ibara ry'ubururu, yanditseho ''UNICEF''; bisobanura Ishami ry'Umuryango w'Abibumbye, ryita ku Buzima bw'abana.

Abamama benshi bahagaze imbere y'inyubako, bari kumwe n'abajyanama b'ubuzima batatu b'abadamu, bamaze kubaganiriza ku bijyanye n'ubuzima bwabo ndetse n'ubw'abana babo n'uko bakwita ku isuku kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umuganga w'umusore wambaye imyenda y'akazi afite n'ibikoresho by'akazi, ari mu cyumba, ari kumwe n'umumama uteruye umwana we, umwana bari kumusuzuma kugira ngo bamenye icyo arwaye, bamuvure akire yongere abe muzima.

Abantu benshi harimo abagore n'abagabo, bamwe bambaye amataburiya afite ibara ry'umweru, abandi bambaye imyenda isanzwe, bafite ama ajenda mu ntoki, bahagaze imbere y'inyubako yanditseho gira ubuzima.

Abana b'abirabura bakiri bato bari hejuru y'imyaka itanu bari ku mugezi wa robine bafunguye amazi ari kumeneka, bari kuyanywa bakoresheje ibiganza byabo, barishimye bishimiye ko bafite amazi.

Ibiganza by'umuganga bisukuye byambaye na ga, biri gutera urushinge ku kaboko umuntu, urwo rushinge ni urwo kongerera umubiri we ubudahangarwa, kumurinda kwadura n'indwara no kumukiza uburwayi.

Abana benshi baherereye mu bice byo mu cyaro baje kuvoma amazi, bafite utujerekani, amavido ndetse n'ibiduke, umukuru muri bo ari gupika icyuma cya nayikondo kugira ngo amazi aze.

Umuganga w'umukobwa w'umwirabura yambaye imyenda y'akazi afite n'ibikoresho by'akazi, ari kwita ku mwana ukiri muto, ari kumusuzuma kugira ngo amenye indwara arwaye abashe kumuha imiti akire, uwo mwana yazanye na mama we.

Abana bane baherereye mu bice byo mu cyaro bagiye ku ivomere rusange kuvoma amazi yo gukoresha guteka, gufura, gukaraba ndetse n'bindi. Umwe ari kuzamura icyuma kugirango amazi aze neza.

Ikipe y'abantu biganjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bateraniye ahantu hamwe bambaye imyenda isa, hari n'umupolisi umwe ushinzwe umutekano, bari ku karima k'igikoni bari guteramo imboga.

Abana b'abanyeshuri bambaye inifomo, abahungu ndetse n'abakobwa, bafite ibikombe mu ntoki, bari kunywa amazi, umwe muri bo ari kuvoma amazi ku kigega akoresheje igikombe.

Ababyeyi bafite abana bari kumwe n'umujyanama w'ubuzima w'igitsina gabo, ari kubafasha gupima abana babo ibiro byabo kugira ngo amenye uko bahagaze niba bafite ubuzima bwiza cyangwa bakeneye kwitabwaho byihariye.

Abaganga babiri bambaye imyenda y'akazi na ga ku maboko n'udupfukamunwa, bari kwita ku musaza wicaye ku ntebe bari kumuha imiti yo kunywa ndetse no kumutera urushinge.

Ahantu hari ihema ryubatse, hateraniye abantu benshi, abamama, abapapa, abakecuru n'abasaza, n'abana bato, hari n'idarapo, ry'igihugu cy'u Rwanda, rifite amabara ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi.

Umubyeyi ufite umwana ukiri muto, ari kumwe n'umuganga utambaye imyenda y'akazi, ari gukingira uwo mwana amutera urushinge ku kaboko, kugira ngo bimurinde kurwara indwara nyinshi, abashe kugira ubuzima bwiza, anabeho neza.

Abagore batatu baherereye mu bice byo mu cyaro, bicaye ku ntebe biteza ibitambaro ndetse bakeneyenye n'ibitenge, umwe ari kumwe n'umuganga ari kumufata ibipimo by'ibanze ngo areba umuvuduko we w'amaraso ukuntu umeze, nasanga awurwaye amwiteho yongere agira ubuzima bwiza.

Umuganga w'igitsina gabo, ari mu kazi yambaye imyenda y'akazi na ga ku maboko, ari mu cyumba ari kumwe n'umubyeyi uteruye umwana we, uyu muganga ari gusuzuma umwana kugira ngo amenye indwara arwaye amwiteho akire neza abe muzima.

Umwana w'umukobwa wo mu cyaro ahagaze mu mazi ahagana ku nkombe, ari kuvoma akoresheje ijerekani y'umuhondo, ayo mazi ni ayo gukoresha mu rugo guteka, gufura, gukaraba, ndetse n'iyindi mirimo.

Abajyanama b'ubuzima batoranywa mu baturage, bakajya guhugurwa, bagatanga serivise z'ubukangurambaga ndetse n'ubujyanama ku isuku n'ubuzima bwo mu ngo, bicaye ahantu hamwe mu nzu, bose bafite ibitabo.

Abamama bafite abana bakiri bato, bateraniye ahantu hamwe, bari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'akazi, ari gukingira abana kugira ngo ibarinde kwandura indwara zitandukanye, ndetse bakomeze no kugira ubuzima bwiza babeho neza.

Agatandaro kubabatswe hakoreshejwe ibiti, gakoreshwa cyane cyane n'abantu batuye mu cyaro, aho kabafasha kwanikaho amasahani, ibikombe ndetse n'ibindi bikoresho, kugira ngo babikoreshe bitakiriho amazi.

Aba mamama batatu bari ku mugezi, babiri bari kuzamura no kumanura icyuma kugira ngo ngo amazi aze, undi afite indobo ari gutega amazi yo gukoresha, harimo kuyakaraba, gutekesha ndetse no gufura.

Umwana w'umwirabura w'umuhungu wambaye imyenda y'ishuri, ikabutura ndetse n'ishati ari ku ndobo irimo amazi iriho na robine, ari gukaraba intoki ze n'ayo mazi meza kugira ngo agire isuku.

Ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga no gusakaza amazi meza ku baturage ndetse no mu bindi bigo cyitwa WASAC, gitanga amazi yo gukoresha mu buzima bwa buri munsi, kuyanywa, kuyatekesha no kuyakoresha ibindi bintu byinshi.

Umwana w'umukobwa wambaye ikanzu ari kuri robine y'amazi afite indobo nyinshi imwe ari kuyoza kugira ngo azivomeremo amazi yo gukoresha ibintu bitandukanye harimo guteka, gukaraba ndetse no kumesa imyenda kugira ngo mukomeze kugira isuku.

Abagore babiri b'abirabura ndetse n'umugabo umwe bari ahantu harunze imifuka myinshi irimo ibintu, bari guterura umwe n'imbaraga nyinshi kugira ngo bawujyane aho indi iri biragaragara ko iyo mifuka ipakiyemo ibintu byo kurya.

Abana bakiri bato bambaye imyenda isa, bamwe bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu, abandi bambaye ifite ibara ry'umuhondo, bari kumwe n'ababakuriye, bicaye muri salle irambuyemo imikeka, bose bicaye ku mukeka.

Umwana w'umuhungu w'umwirabura ukiri muto, ari kuri robine ku kumugezi yafunguye amazi, ari kuyakaraba akoresheje intoki, ari kuyamena, yishimiye ko babahaye amazi abegereye, arishimye cyane.

Umuganga wambaye imyenda yakazi itaburiya, y'umweru yambaye na bagi, na ga mu ntoki ari gutera umwana urushinge ku kaboko amukingira kwatakwa n'indwara zitandukanye bikamurinda kuzarwara.

Umwana w'umukobwa w'umwirabura ari ku mugezi yafunguye amazi ari gukaraba intoki kugira ngo bitume agira isuku, binamurinde kwandura indwara ziterwa n'isuku nke n'iziterwa n'umwanda.

Urubyiruko abakobwa ndetse n'abasore, bambaye imyenda isa, imipira ifite ibara ry'ubururu, bari kumwe n'abandi bantu batatu harimo n'umuzungu bifotozanyije bavuye mu gikorwa bari bagenewe gukora.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe mu nzu bamwe barahagaze abandi barasutamye, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho Unicefu, Ishami ry'Umuryango w'Abibumbye ryita ku bana, muri abo bantu harimo abagore, abagabo, abakobwa ndetse n'abasore.

Sale irimo abantu benshi abagore n'abagabo bicaye ku ntebe, hari n'meza ateretseho amazi yabo yo kunywa ndetse arambitseho n'ibikoresho byabo imbere yabo hari umumama umwe uhagaze bamuteze amatwi ari kubabwira.

Umukecuru w'umwirabura ushaje, yicaye mu muhanda, yambaye imyenda idafite isuku isa nabi ndetse n'inkweto, kuruhande rwe hari ibicupa, afite n'imyeyenda mu ntoki, afite ikibazo cyo mu mutwe akeneye kwitabwaho kugira ngo yongere abe muzima.

Abagore batatu b'abirabura biteze ibitambaro bakinyeye n'ibitenge, bambaye n'imipira yo hejuru umwe muri bo afite umwana ari kumwonsa, abandi babiri bari kumwe umwe afite igitiyo, undi afite igiti cy'imbingo ndetse undi afite n'umufuka mu ntoki.

Umugabo w'umwirabura wambaye neza arimo imbere mu nzu, ari kumwe n'umusaza wambaye imyenda yamucikiyeho, afite n'umusatsi mwinshi wamwereyeho biragaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, bari gusuhuzanya.

Umuryango wo mu cyaro, wasuwe n'abajyanama b'ubuzima, bafite inshingano zo guhugura no kugira inama abaturage, mu kwita ku isuku ndetse no kwita ku buzima bwo mu ngo; bari kumwe baricaye, bari hanze bari kuganira.

Abana benshi b'abanyeshuri, abahungu n'abakobwa bambaye nifomo, barishimye, bari guseka, bamanitse amaboko, inyuma yabo hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, rifite amabara umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu.

Icyapa kigaragaza ibitaro bikuru by'akarere ndetse n'ibitaro byubatse bya etage bitangirwamo serivisi zo kuvura abarwayi barwaye indwara zitandukanye abagore, abagabo, abana, abakobwa ndetse n'abasore kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abantu benshi, higanjemo abambaye imipira ifite ibara ry'ubururu isa, harimo n'abazungu, bari mu gikorwa cyo gutera ibiti, kuko ibiti ari ibidukikije, kandi ni ingenzi mubu buzima bwacu bwa buri munsi, biduha umwuka, bituma tubaho neza, bituma n'ibindi binyabuzima bibona aho kuba.

Umwana ukiri muto w'umukobwa, ari kwa muganga yagiye guhabwa serivise, ari kumwe n'umuganga, uwo mwana arasamye, muganga ari kumusuzuma amenyo kugira ngo arebe amazima arebe n'afite ikibazo, abashe kumufasha.

umusore w'umwirabura ufite ubwanwa bwinshi yambaye amarinete n'iherena kuzuru afite amenyo meza yogejwe neza yitaweho kuko yakoresheje korogati nta ndwara y'amenyo yagira.

Umukobwa wambaye isengeri ifite ibara ry'umweru, afite uburoso buriho umuti woza amenyo, ari kwerekana uburyo wasukura mu kanwa, ukagira amenyo meza, bikanakurinda kwatakwa n'indwara, zifata amenyo.

Umuganga w'umwirabura wambaye imyenda y'akazi ndetse n'agafukamunwa na ga ku maboko, ari mucyumba kirwariyemo umurwayi, umuganga ari kumufasha kumusuzuma amenyo kugira ngo arebe uko amenyo ye ahagaze, amufashe gukira neza.

Umwana w'umuhungu, w'umwirabura ukiri muto, ari guseka, afite uburoso mu ntoki buriho Korogati, bukoreshwa mu koza amenyo kugira ngo bimurinde impumuro mbi mukanwa, n'izindi ndwara ziterwa no kutoza amenyo.

Ihema ryubatse rimanitseho ikirangantego k'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima ndetse n'icyapa cyanditseho umunsi Mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu kanwa, hari abaganga n'abaturage, umuganga umwe ari gupima umuturage uburebure n'ibiro afite kugira ngo abone uko amusuzuma indwara.

Umusaza ushaje ufite imvi yambaye amarinete, ari kuri ravabo yo mu nzu, hari ibikoresho bitandukanye isabune n'amazi yo gukaraba intoki, hari n'uburoso bwo koza amenyo ye kugira ngo bimurinde ko amenyo ye yakangirika.

Abaganga bari kwigira ku gishushanyo cy'amenyo uko bakura amenyo cyangwa uko bayitaho muri rusange, kugira ngo bongere ubumenyi bwabo mu kuvura uburwayi bw'amenyo.

Umusore w'umwirabura mwiza ugaragara igice cyo hejuru ari guseka arishimye afite ubwanwa, amenyo ye asa neza biragaragara ko ari mazima, yogejwe hakoreshejwe umuti usukura amenyo.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi afite n'ibikoresho ari kwita ku murwayi urwaye amenyo; ari kumusuzuma kugira ngo nabona iryinyo rirwaye arikure cyangwa amuhe imiti yo gutuma yongera kumera neza.

Umuganga w'igitsina gore wambaye imyenda y'akazi, agapfukamunwa, aboshye n'imisatsi ndetse afite n'ibikoresho byabugenewe, ari gusuzuma umusaza w'umumwirabura ugeze mu zabukuru kugira ngo amenye uko ubuzima bwe buhagaze.

Umuganga w'umuzungu wambaye imyenda y'akazi, ari kumwe n'umusaza w'umwirabura wambaye amarinete, bari mu cyumba ku buriri ari kumufasha guhaguruka kugira ngo agorore imitsi y'amaguru ndetse n'iy'umubiri wose kuko kwicara bishobora kumuviramo izindi ndwara.

Umumama ushinzwe kwita ku bantu bashaje cyane ari kumwe n'umusaza ugeze mu zabukuru, ari kumutegurira amafunguro, harimo ji yo kunywa, pome ndetse n'ibindi biryo byo gufata bituma agira imbaraga.

Umubyeyi w'umumama w'umwirabura, ari mu rugo yicaye hasi kuri tapi, ari gukora imyitozo ngororamubiri igorora ibice bigize umubiri we, amaguru, amaboko ndetse n'ibindi, bikamufasha kudasaza, bikanatuma umubiri we umera neza ndetse akagira n'ubuzima bwiza.

Umusaza ushaje ugeze mu za bukuru ari kumwe n'umwana we ukiri muto, bicaye muri saro bari kuganira, barishimye bose bari guseka, iyo saro irimo indabo ziteguyemo ndetse rimo n'ibishushanyo, uwo musaza afite ikintu mu ntoki gifite ibara ry'umukara ndetse n'umwana aragifite.

Umugore ndetse n'umugabo we bari mu nzu bari ku meza, hariho ibyo kurya ndetse n'amazi yo kunywa bibafasha kugira ubuzima bwiza kugira ngo bakomeze no kubaho neza, barishimye umugabo ari guseka.

Umuganga ubifite mu nshingano wambaye imyenda y'akazi, ari kumwe n'umusaza ushaje ugeze mu zabukuru wambaye umupira w'ubururu n'ikabutura y'umukara, ari kumufasha gutambuka kugira ngo amenyere kugenda, bimurinde binamufashe gukira neza.

Umusaza w'umwirabura ushaje cyane ugeze mu zabukuru afite n'imvi, ari mu rugo yicaye mu nzu, ari gufata amafunguro bamuteguriye ariho imboga, ndetse n'ibindi bituma agira ubuzima bwiza.

Umugabo w'umwirabura ushaje, afite imvi, yambaye ishati, ateruye umwana ukiri muto ufite igipupe mu ntoki, ari kumukinisha kugira ngo bose bishime.

Isoko ricururizwamo imbuto imbere yaryo hicaye abagore batandatu higanjemo n'abageze muzabukuru bafite inyanya nyinshi bari gucuruza bari kuganira kuri izo nyanya.

Umukobwa wambaye imyenda y'akazi ari kwita ku musaza w'umwirabura ugeze mu zabukuru, ari kumufasha gutera intambwe kugira ngo amererwe neza ndetse anakire yongere asubire mu buzima busanzwe.

Umuganga w'umukobwa w'umwirabura yambaye imyenda y'akazi, afite n'ibikoresho, ari kumwe n'umukecuru ugeze mu zabukuru, ari kumuganiriza ndetse ari kumuha n'imiti yo gufata kugira ngo yongere kugira ubuzima bwiza akomeze no kubaho neza.

Umuganga w'umukobwa wambaye imyenda yakazi, ndetse afite n'ibikoresho akoresha, ari gufasha umusaza ugeze mu zabukuru, kumusunika mu kagare amusohora hanze, kuko ntabwo yashobora kwijyana.

Umusaza ushaje cyane ugeze mu za bukuru afite imvi yambaye amarinete yicaye ku ntebe imbere ye hari ameza n'ikayi, afite ikaramu mu ntoki ari kwandika kugira ngo yiyibutse.

Umuganga w'umukobwa wambaye imyenda y'akazi, ari kumwe n'umusaza ugeze mu zabukuru ufite n'inkoni wicaye mu ntebe, ari kumwitaho bari kuganira, bari guseka kugira ngo bimwongerere iminsi yo kubaho.

Umukecuru ushaje cyane uherereye mu bice byo mu cyaro yicaye hasi imbere ye hari amashyiga arimo inkwi ateretseho n'inkono aratetse kugira ngo abashe kubona ibyo kurya uwo munsi.

Abakecuru babiri bageze mu zabukuru bashaje cyane, bambaye imipira ifite ibara ry'umutuku n'imikenyero n'imyitero y'umweru bari mu muhanda, inyuma yabo hari abandi bantu benshi bambaye imipira iriho ikirangantego cya FPR Inkotanyi.

Umuganga w'umukobwa ni umuzungu yambaye imyenda y'akazi afite n'ibikoresho by'akazi ari kwita ku musaza ugeze mu za bukuru w'umwirabura kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza kandi anabeho neza.

Umusaza w'umwirabura ushaje ugeze mu za bukuru, yicaye ku ntebe imbere ye hari ameza ariho igitabo, ari gusoma kugira ngo bimufashe kudahuma ndetse binamurinde kwibagirwa vuba, akomeze abeho neza.

Umuganga w'umuzungu yambaye imyenda y'akazi ari kumwe n'umusaza w'umwirabura ugeze mu zabukuru wambaye rinete, ari kumufasha gutambuka amumenyereza kugenda, kugira ngo agorore amaguru ndetse n'imitsi, kuko gukomeza kwicara byamuviramo kurwara izindi ndwara.

Umugabo w'umuzungu wambaye amarinete ndetse n'ingofero afite urupapuro rwanditseho ko babonye urukingo rw'ubushita bw'inkende kuko uwo ari we wese ubu ngubu yaruhabwa, kugira ngo bimurinde kwatakwa n'iyo ndwara akomeze kugira ubuzima bwiza.

Abantu babiri umumama n'umupapa, barahagaze bambaye neza, bafashe icyapa cyanditseho ngo:"Twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira". Bari gutanga ubukangurambaga ku bantu, kugira ngo bisuzumishe igituntu.

Urubyiruko rwiganjemo igitsina gore na gabo, bari mu muhanda, bambaye imipira ifite ibara ry'umweru isa, bafite icyapa gikangurira abantu kwirinda kanseri y'ibere, babashishikariza kuyisuzumisha kare, kuko ivurwa igakira.

Abaganga babiri b'abagore, bambaye imyenda y'akazi n'ubupfukamunwa ndetse na ga ku maboko, bagiye mu bice by'icyaro gutanga serivise ku baturage zo kubakingira ndetse no kubaha imiti bari kwita ku musaza ushaje cyane.

Ikirangantego cya Minisiteri y'Ubuzima, ishinzwe guteza imbere ubuzima bw'abaturage, binyuze mu gutegura no gushyira mu bikorwa politike z'ubuvuzi, harimo guteza imbere isuku n'isukura, kurwanya indwara ndetse no gutanga izindi serivise zinoze.

Inama yari iyobowe n'umugabo w'umuzungu n'undi w'umwirabura, yari yitabiriwe n'abantu benshi b'ingeri zitandukanye, yari igamije guhagarika virusi ya mariburu, yabereye i Kigali ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa cumi bibiri na makumyabiri na kane.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi ndetse na ga ku maboko n'umugabo wicaye ku ntebe, uwo muganga ari kumutera urushinge ku maboko rwo kumukingira kugira ngo bimurinde kwandura indwara zitandukanye.

Umuganga w'umwirabura w'igitsina gabo arimo imbere mu nyubako y'ibitaro yicaye ku ntebe, imbere ye hari ameza atetseho mudasobwa ebyiri inini n'intoya, inini ari kuyireberamo ifoto igaragaza imbavu.

Ibitaro bitangirwamo serivisi zo kuvura abarwayi kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bongere kubaho neza, bifite ubusitani buteyemo indabo, pasiparuma, hari n'amatara ndetse n'ibindi bituma bigaragara neza.

Umuganga w'igitsina gore wambaye imyenda y'akazi, ifite ibara ry'ubururu ari mo imbere mu bitaro mu cyumba ari kwita ku murwayi uryamye ku gitanda, ari kumufasha kugira ngo yongere agire ubuzima bwiza akire neza abeho neza.

Abirabura ndetse n'abazungu bahagaze muri jaride no ku cyapa kiranga ibitaro bya Butaro biherereye mu karere ka Burera, bizwiho kugira abaganga b'inzobere mu kuvura indwara za kanseri harimo iy'amabere, iy'uruhu ndetse n'izindi.

Inyubako y'ibitaro bya etage byubatse neza bitangirwamo serivise z'ubuvuzi no kwita ku barwayi no gukurikirana ubuzima bwabo muri rusange, imbere yabyo hari abantu, haparitse n'imodoka, hari na jaride iteyemo ibyatsi ndetse n'indabo.

Mo imbere kwa muganga hagaragara neza hubatse neza harimo ibitanda byinshi bitandukanye, biryamyeho abarwayi barembye cyane bakeneye kwitabwaho n'abaganga kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza bongere babe bazima bongere babeho, harimo n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kubaha serivisi.

Mo imbere kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivise zo kwita ku barwayi barembye cyane harimo igitanda umurwayi aryamaho iyo bari kumwitaho, harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye nka mudasobwa ndetse n'ibindi byifashishwa n'umuganga.

Inyubako y'ibitaro bya Gihundwe, itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, ku ruhande rwo hepfo hari inzu, itangirwamo serivisi zo kuvura amaso ku bayarwaye, kugira ngo bongere kubasha kureba neza, hanze yacyo hari indabo ziteye ndetse hari n'amapave.

Inyubako y'ibitaro, bitangirwamo serivise zo kuvura indwara zitandura, kanseri, abayirwaye barababaga, babaha imiti, bakongera bakaba bazima, imbere yayo hari jaride, iteyemo indabo.

Umuganga w'umukobwa wambaye imyenda y'akazi, ari mu imbere mu nyubako, ahavurirwa abana bato, ari kumwe n'akana k'agahinja, karyamye, ari kukitaho, ari guseka, ndetse aranishimye.

Umuganga w'umukobwa uboshye imisatsi, wambaye imyenda y'akazi, agapfukamunwa, afite n'ibikoresho byo gukoresha mu kazi ke ka buri munsi, ari gufata umwana ibipimo by'ibanze, harimo kumupima umuvuduko w'amaraso ndetse n'ibindi kugira ngo amenye igikenewe ku buzima bwe.

Ibitaro byubatse neza ni etaje bitangirwamo serivisi zo kuvura indwara zitandukanye ku barwayi baje babigana, bakarushaho kugira ubuzima bwiza bakongera bakaba bazima kubera bitaweho n'abaganga babifite mu nshingano, hanze yabyo hari jaride iteyemo indabo ndetse n'ibindi.

Ibitaro byiza byubatse neza bitangirwamo serivise z'ubuvuzi no kwita ku barwayi baje babagana, haba mu gutanga serivise zo kubabaga, kuvura indwara zitandukanye iz'amagufa, iz'uruhu n'izindi nyinshi.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Matyazo, gitangirwamo serivisi zo kuvura indwara zoroheje, ndetse no kuboneza urubyaro ku bagore, mu marembo yacyo harimo abantu babiri bari gusohoka bakivamo munsi y'ikigo nderabuzima hari umuhanda w'ibinyabiziga.

Umuganga w'umukobwa, wambaye imyenda y'akazi afite n'ibikoresho, ari kumwe n'umusaza ugeze mu zabukuru ari kumufata ibipimo by'ibanze, harimo kureba uko umutima we utera n'umuvuduko we w'amaraso kugira ngo abone uko amwitaho, abashe kugira ubuzima bwiza ndetse anamenye n'uko ubuzima bwe buhagaze, amubwira n'uko yakwirinda.

Inyubako y'ikigonderabuzima cya Shagasha itangirwamo serivisi zitandukanye zo kuvura abarwayi no kwita ku badamu batwite ndetse n'abana, imbere yayo hicaye abadamu babiri bafite n'abana.

Inyubako y'ibitaro ya etage itangirwamo serivise zo kuvura abarwayi no gukurikirana ubuzima bwabo muri rusange bagakira bakongera bakaba bazima, imbere yayo hari jaride imanitsemo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Kwa muganga mo imbere mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, hari ibitanda bibiri biryamyeho abarwayi barembye cyane bari kuri bombone, bakeneye kwitabwaho n'abaganga kugira ngo bongere kuba bazima, bagire ubuzima bwiza, banabeho neza.

Umuganga w'igitsina gore, uboshye imisatsi, yambaye imyenda y'akazi, ari mo imbere mu cyumba kwa muganga, ari kumwe n'umurwayi uryamye ku gitanda, ari kumutera urushinge kugira ngo amufate amaraso, amusuzume indwara, amenye uko arwaye, amwiteho amuvure.

Mu bitaro kwa muganga mo imbere mu cyumba harimo umurwayi urembye cyane uryamye ku gitanda yiyoroshe, ku ruhande rwe hari umuganga uri gutegura imiti yo kuza kumwitaho kugira ngo arebe ko yagira ubuzima bwiza.

Inyubako yo kwa muganga igaragara mo imbere harimo ravabo nyinshi abaganga bakoresha bakaraba intoki zabo n'amazi meza iyo bagiye kuvura abarwayi n'iyo bamaze kubavura kugira ngo bibarinde kubanduza indwara.

Inyubako yo kwa muganga, yubatse neza igaragara mo imbere, igaragaza aho bakirira abantu, n'aho bicara, mu gihe bategereje kwakirwa, no koherezwa mu zindi serivise, harimo kubonana na muganga, guhabwa imiti, ndetse n'izindi.

Umuganga w'umumama wambaye imyenda y'akazi, ga, itaburiya, yambaye na rinete ari mucyumba ari kwita ku murwayi w'umumama uryamye ku gitanda utwite kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza we n'umwana uri mu nda ye.

Icyapa kiranga ibitaro by'i Butare CHUB imbere yacyo hari umuhanda ujya ku bitaro bitangirwamo serivise kuvura abarwayi barwaye indwara zitandukanye bakongera bakaba bazima bakagira ubuzima bwiza, ndetse n'aho abanyeshuri bamenyerezwa umwuga wo kuvura.

Mo imbere mu nyubako y'ibitaro ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'ibanze, harimo abarwayi baryamye ku bitanda, ndetse n'abaganga bashinzwe kubitaho no kubakurikirana buri munsi, kugira ngo barebe uko baramutse n'uko biriwe.

Abaturage bicaye aho bakirira abagana ikigo nderabuzima gitanga serivisi z'ubuzima bw'ibanze, aho bategereza kwakirwa mbere yo koherezwa mu bindi byiciro by'ubuvuzi, harimo kubonana na muganga no guhabwa imiti.

Inyubako y'ibitaro bikuru bya Afurika bifite ubunararibonye mu kuvura indwara ziterwa n'udusimba duto tutagaragara ku bantu ndetse no ku nyamaswa, muri zo harimo igituntu, n'uburenge ku nyayamaswa ndetse n'izindi.

Inyubako y'ibitaro bya Kigina bitangirwamo serivisi zo kuvura abarwayi barwaye indwara zoroheje, zikira vuba, imbere yayo hari umumama w'umwirabura uhetse umwana, ategereje kwinjira mu ibyo bitaro.

Inyubako y'ibitaro igaragara mo imbere, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu gutanga serivisi ku baje babagana ari bo barwayi, harimo n'igitanda gikoreshwa n'abarwayi kugira ngo babashe kubitaho neza.

Ibitaro bikuru bya gisirikare biherereye i Kanombe bitangirwamo serivisi zo kuvura abarwayi barwaye indwara zitandukanye, abakeneye kubagwa, abakeneye imiti ndetse n'abakeneye kunyuzwa mu byuma kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze. Ibi bitaro bituma abantu bongera kugira ubuzima.

Inyubako y'ibitaro nziza yubatse neza ya etage itangirwamo serivisi zo kuvura abarwayi; abagore, abagabo, abakobwa, n'abasore ndetse n'abana n'abandi bafite ibibazo bitandukanye ku ruhande rwayo hari jaride iteyemo ibiti n'iy'indabo ndetse n'ibyatsi.

Mo imbere kwa muganga mu bitaro mu cyumba, harimo umurwayi w'umumama uryamye ku gitanda utegereje kwitabwaho n'abaganga kugira ngo bamufashe yongere abe muzima, akire agire ubuzima bwiza.

Inyubako y'ibitaro igaragara mo imbere, harimo ibikoresho byinshi byifashishwa n'abaganga mu gutanga serivisi ku barwayi ndetse harimo n'ibitanda bikoreshwa n'abarwayi, bari kubitaho abatabasha guhaguruka.

Icyapa kiri imbere y'ibitaro muri jaride, kerekana ahatangirwa serivisi zose, hariho aho bakirira abagore, icyumba k'indembe, aho imbaho zijya, icyumba cy'abagabo ndetse n'aho ababyaye baruhukira.

Amarembo y'ibitaro bya Kabgayi biherereye mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda, ibyo bitaro bizwiho nk'abaganga b'inzobere mu kuvura indwara cyane cyane amaso.

Inzu irimo ibikoresho byifashisha mu gukora siporo, harimo ibibafasha kwiruka, ibibafasha kugorora amaboko, ibyuma byo guterura ndetse n'ibindi, hanze yayo hari jaride iteyemo ibyatsi byiza.

Icyumba gitangirwamo serivisi zo kuvura abarwayi kikibanda cyane cyane ku burwayi bw'amaso, kirimo ibikoresho abaganga bakoresha, intebe zo kwicaraho, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umuganga w'igitsina gore wambaye imyenda y'akazi yabugenewe, ari kumwe n'umubyeyi ufite umwana ukiri muto, ari kumuhereza umuganga kugira ngo amusuzume amenye icyo arwaye amwiteho, atume agira ubuzima bwiza yongera abeho neza.

Abantu benshi abagore n'abagabo, abakobwa n'abasore bari kwa muganga batonze umurongo, bari kujya aho abaganga bari kugira ngo babahe serivisi baje kureba, imbere y'abaganga hari umusaza ubana n'ubumuga, yicaye mu kagare.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe bari mu cyumba kimwe kirimo kizimyamwoto, umugabo umwe ari guha serivisi undi yo kumufata umuvuduko w'amaraso kugira ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze niba ari muzima cyangwa arwaye kugira ngo abashe kwitabwaho agire ubuzima bwiza kandi abeho neza.

Mu imbere kwa muganga hubatse neza harasa neza, harimo abaganga benshi bambaye imyenda y'akazi, amataburiya y'umweru, bamwe bambaye n'aga ku maboko, ndetse hanarimo ibikoresho bitandukanye, ameza ndetse n'ibindi bakoresha mu kwita ku barwayi baje babagana.

Inyubako y'ibitaro bishinzwe kwita ku barwayi barwaye indwara ya kanseri, imbere yayo hari jaride iteyemo indabo ndetse n'ibyatsi ndetse hari n'ushinzwe gukora amasuku kuri iyo nyubako.

Icyapa kinini kimanitseho serivisi zo kwa muganga zitangwa ku baturage, harimo kubaga, kuvura imiryango, kuboneza urubyaro, kuvura abana, gucisha mu cyuma ndetse n'izindi nyinshi.

Icyapa cyerekana ibitaro byigenga byo kwa Nyirinkwaya bitanga serivisi zitandukanye, harimo kuvura indwara z'abagore n'ababyeyi, iz'abana, iz'uruhu, iz'amagufa, indwara rusange, kubaga n'ubuvuzi bw'amenyo ndetse n'izindi.

Umukobwa w'umwirabura uboshye imisatsi, yambaye ekuteri mu matwi, isaha ku kaboko, ari muri siporo z'ingororangingo, ari kugorora amaboko ye kugira ngo agire ubuzima bwiza ndetse abeho neza, binamurinde kurwaragurika.

Umusore w'umwirabura ufite direde, ari mu cyumba gikorerwamo siporo kirimo ibikoresho bitandukanye byo gukoresha, ari gukora siporo zigorora amaguru n'amaboko ndetse n'ibindi bice by'umubiri we kugirango akomeze kugira ubuzima bwiza binamurinde kurwaragurika.

Amabwiriza yagenderwagaho mu kwirinda icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda. Harimo kuguma mu rugo, gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, kwirinda gusuhuzanya ndetse no gukorana mu biganza ndetse n'ibindi.

Umusore w'umwirabura arahagaze afite icupa ririmo amazi ari kuyanywa kugira ngo atume ibice by'iwe by'umubiri bikora neza, amurinde kurwara indwara zitandukanye harimo nk'umutwe ndetse atume n'umubiri we ukomeza gukora neza.

Imbuto n'imboga harimo kokombure, imineke, pome, puwavuro, n'ibindi ifasha umubiri kubona vitamine, umuntu akabaho neza, akabaho atarwaragurika, ku ruhande hari ibyuma byifashishwa, mu gukora siporo.

Umusore w'umwirabura ufite tatuwaje ku maguru, yambaye imyenda yabugenewe n'isaha ku kaboko, ari muri siporo ari kugorora ibice bigize umubiri we kugira ngo agire ubuzima bwiza, abeho neza bimurinde indwara nyinshi.

Ikiganza gifashe icupa ririmo amazi ripfundikiye neza, ayo mazi yatunganijwe, arimo imiti, nta dukoko, turimo nta n'udusimba, nta kibazo yateza ku mubiri w'umuntu, ahubwo afasha umubiri gukora neza uwayanyweye akabaho neza.

Umuganga w'umwirabura w'igitsina gabo, yambaye imyenda y'akazi, itaburiye ifite ibara ry'umweru, afite n'ibikoresho by'akazi, ari mu imbere mu nyubako y'ibitaro, irimo ibikoresho ndetse harimo n'igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro cyitwa kizimyamwoto.

Ibikoresho byinshi bitandukanye, bikoreshwa n'abaganga, bari gutanga ubutabazi bw'ibanze, ku barwayi. Harimo umuti wo gukaraba intoki, ga zo kwambara ku maboko, akuma gapima umuriro, inshinge, ndetse n'ibindi byinshi.

Umukobwa uboshye imisatsi ahagaze haruguru y'amazi ari muri siporo zigorora umubiri, ari kurambura amaboko n'amaguru n'izindi ngingo ze z'umubiri wose kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza abeho neza.

Umusore w'umwirabura uri muri siporo yambaye guteri n'indi myenda yabugenewe ari gukora imyitozo ngororamubiri amaguru ndetse n'amaboko kugira ngo bimurinde kurwara akomeze no kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kirimo ibikoresho bikoreshwa n'abakora siporo kugira ngo bagorore amaguru n'amaboko yabo ndetse n'ibindi bice byumubiri, muri ibyo byuma harimo ibibafasha kwiruka, ibibafasha kugorora amaboko.

Umukobwa arimo imbere mu nyubako, yicaye ku mukeka wabugenewe mu gukoreraho siporo, ari mu myitozo ngororamubiri z'amaguru, amaboko ndetse n'ibindi bice by'umubiri we kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza anabeho neza.

Umusore w'umwirabura yambaye isengeri n'ikabutura bya siporo, yicaye mu kibuga, yifashe ku itako, ari kurikanda agorora imitsi ye, asa nk'uwavunitse, ari kugira ngo yongere amere neza, asubire mu kibuga.

Umukobwa n'umusore bambaye imyenda ya siporo, bari kwiruka, bari gukora siporo zigorora amaguru ndetse namaboko, bafite amazi mu ntoki yo kunywa kugirango bakomeze gukora imyitozo nta kibazo bafite.

Umusore w'umwirabura yambaye ikabutura y'umukara n'isaha ku kaboko, ari muri siporo ari kugorora amaguru ye yibanze cyane cyane ku mavi kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza abeho neza binamurinde kuvunika.

Umukobwa w'umwirabura wambaye imyenda yabugenewe ifite ibara ry'umweru, ari mu myitozo ngororamubiri ari kugorora ibice bigize umubiri we amaguru, amaboko, imbavu ndetse n'ibindi bigatuma agira ubuzima bwiza, akabaho neza, bikanamurinda kwataka n'indwara za hato na hato.

Umukobwa w'umwirabura yambaye ekuteri mu matwi n'isaha ku kaboko, ari muri siporo zigorora ingingo ze z'umubiri amaboko ndetse n'ibindi bice kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza abeho neza, binamurinde kurwaragurika bya hato na hato.

Ahagenewe gukorerwa siporo harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa n'abantu mu kugorora ingingo z'umubiri, harimo n'umusore wambaye imyenda ya siporo ari muri siporo zigorora amaguru ndetse n'amaboko.

Umusore w'umwirabura ubyibushye cyane yambaye isengeri ari kunywa amazi amaze gukora siporo zigorora amaboko ndetse n'ibindi bice bye by'umubiri kugira ngo abeho neza binamurinde kurwara indwara zitandukanye za hato na hato.

Ibikoresho byinshi bikenerwa n'umuganga mu gihe ari mu kazi ke harimo: ga zo ku maboko, imakase, inshinge, ibinini, utwuma dupima umuriro n'udupima umuvuduko ndetse n'ibindi byinshi.

Umusore w'umwirabura afite icupa ririmo amazi meza ari kuyanywa kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza ndetse abeho neza kuko afasha umubiri we gukora neza kandi bikanamurinda kurwaragurika.

Abakobwa babiri bambaye imyenda yabugenewe ya siporo n'inkweto zifunze, umwe aricaye ari kunywa amazi kugira ngo afashe umubiri we gukora neza, undi arahagaze ari gukora imyitozo ngororamubiri, bose imbere yabo harambitse ibikapu bibiri.

Umusore w'umwirabura wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, afite icupa mu ntoki ari kunywa amazi kuko amazi ni ubuzima, atuma tubaho neza, tugira ubuzima bwiza, ibice by'umubiri byacu bikora neza, ndetse n'uyanyweye amurinda kurwaragurika bya hato na hato.

Umukobwa w'umwirabura uboshye imisatsi, yicaye ku buriri yambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, ari gukora imyitozo ngororamubiri ari kugorora amaboko n'ibindi bice bigize umubiri we, bikamufasha kugira ubuzima bwiza no kubaho neza.

Imbuto zitandukanye umuntu afata nyuma yo gukora siporo kugira ngo umubiri we wongere ugarure ibyo watakaje ubone na vitamine, harimo amaronji, imineke, imizabibu, pome ndetse n'izindi.

Umuganga w'umukobwa uboshye imisatsi yambaye imyenda y'akazi, agapfukamunwa, na ga kumaboko, afite ibikoresho yifashisha mu kazi ke ka buri munsi, imbere ye hari ameza arambitseho mudasobwa ndetse na jenda yo kwandikaho.

Umuganga wagenewe kwita ku bakinnyi baba bari muri siporo ari kwita ku mukinnyi umwe wagize ikibazo cyo kuvunika cyangwa gukomereka imitsi ari kumwitaho kugira ngo yongere ajye gukina umupira.

Umuti uri mu macupa watunganijwe neza, uvura ukanagabanya ububabare bwatewe n'impanuka, amavunane, cyangwa no kuvunika, uwukoresha uwusiga aho wavunitse kugira ngo ukire.

Umuzungu w'igitsina gabo yambaye inkweto zifunze, ipantaro y'umukara, agapira k'ubururu, isaha ku kaboko na ekuteri mu mutwe, afite terefone mu ntoki, ari kunywa n'amazi ari mu icupa, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza abeho neza.

Ikirangantego cy'umusaraba ufite ibara ry'umutuku ry'umuryango wa croix rouge ukorera mu Rwanda, ufite inshingano zo gutanga ubutabazi bw'ibanze ku barwayi harimo gutanga amaraso, kuvuza indembe ndetse no gutanga ubundi butabazi ku bantu bafite ibibazo.

Umukobwa ufite igara rito, aricaye yambaye imyenda yabugenewe, ari mu myitozo ngororamubiri ari kurambura amaguru, amaboko n'ibindi bice bigize umubiri we kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza bimurinde kurwaragurika. imbere ye hari icupa ririmo amazi yo kunywa.

Amavuta n'isabune byatunganijwe hifashishijwe ikimera gakondo kizwi ku izina nk'igikakarubamba ndetse n'ibindi bintu, akoreshwa n'abantu mu kuyisiga kugira ngo bagire uruhu rwiza, abarinde kurwara ibiheri ndetse atume basa neza.

Ibimera bitandukanye biteye mu butaka bifite amababi y'icyatsi. Bikoreshwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye harimo iz'uruhu, n'imitsi ndetse n'izindi. Binifashishwa mu gukoramo ibindi bintu bitandukanye harimo amavuta.

Ibimera bitandukanye bifite amababi afite ibara ry'icyatsi, biteye mu butaka bikoreshwa n'abantu barabitunganya bakabikoramo ibintu bitandukanye ndetse hari n'ababikoresha mu kubavura indwara nyinshi zitandukanye.

Ikimera gifite amababi afite ibara ry'icyatsi ndetse cyeraho n'imbuto, gikoreshwa cyane cyane hatunganywa ibintu bitandukanye, harimo imiti n'ibindi bishobora kwifashishwa n'abantu.

Amavuta yo kwisiga ku munwa yakozwe hakoreshejwe ibimera gakondo, akoreshwa cyane cyane n'abamama kugira ngo iminwa yabo ise neza, biyirinde gushishuka, biyirinde no gutemagurika.

Umuti watunganijwe hifashishijwe ibimera byinshi higanjemo umuravumba, ukoreshwa n'urwaye indwara zitandukanye harimo inkorora, ibicurane ndetse n'ibindi, bikamufasha gukira ukongera akaba muzima.

Rabero ikoreshwa cyane cyane n'abamama ndetse n'abakobwa mu kuyisiga ku minwa yabo kugira ngo biyirinde kuma ndetse no gucika ibisebe bitume banagaragara neza ku minwa igihe bayisize.

Ikimera giteye mu butaka, ni kigufi, gifite amababi afite ibara ry'icyatsi, gikoreshwa mu gutunganya ibintu bitandukanye cyangwa kigakoreshwa nk'umuti mu kuvura indwara nyinshi ku bantu barwaye, kugikoresha bisaba kugitunganya, kugisya, cyangwa kugisekura, bagakoresha amazi yacyo.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi n'amahwa gikoreshwa cyane cyane n'abahinzi bo mu cyaro, bagitera kuruhande rw'imirima yabo kugira ngo birinde amatungo kwinjira no kujya kwangiza ibyo bahinze.

Icupa ripfundikiye neza ririmo amavuta y'ingenzi cyane ku buzima bw'umubiri, akoreshwa n'abantu mu kuyasiga ku ruhu rwabo rugasa neza, bikarurinda kurwaragurika ibiheri ndetse n'izindi ndwara.

Ibimera byinshi by'amoko atandukanye bikoreshwa n'abantu mu gutunganywamo ibintu bitandukanye harimo amavuta, imiti ndetse n'ibindi, ababikoresha bigatuma bagira ubuzima bwiza bakanabaho neza.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi gikoreshwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, harimo indwara z'uruhu, ububabare bw'imitsi ndetse n'izindi. Na none gishobora gukoreshwa mu gukora amavuta yo kwisiga agatuma uruhu rumera neza.

Ikimera gakondo kizwi ku izina umuravumba cyifashishwa mu buvuzi, gikoreshwa n'abantu, baragifata bakakinywa kikabavura indwara nyinshi zitandukanye harimo inkorora, ibicurane, ndetse n'umutwe.

Ikimera gifite amababi afite ibara ry'icyatsi giteye mu butaka, cyifashishwa cyane cyane n'abantu mu gutunganya ibintu bitandukanye harimo imiti ndetse n'ibindi, bagikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ikimera giteye mu butaka gifite amababi afite ibara ry'icyatsi, gikoreshwa mu gutunganya ibintu bitandukanye harimo imiti, amavuta ndetse n'ibindi bikoreshwa n'abantu kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi kizwi ku izina nk'umuravumba, gikoreshwa mu buvuzi gakondo cyane cyane mu bice byo mu cyaro, mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye harimo inkorora, ibicurane, kuzimya umuriro, ndetse n'izindi.

Tangawizi ikimera gifite akamaro kanini mu buvuzi, mu gikoni, ndetse no mu nganda, mu buvuzi gakondo gikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo ibicurane, isesemi, no kongerera umubiri ubudahangarwa.

Ikimera gakondo kizwi ku izina nk'umuravumba, giteye mu bihoho kiri mu irerero kiri kwitabwaho kugira ngo kijyanwe guterwa ahabugenewe gikoreshwa n'abantu nk'umuti mu kuvura indwara zitandukanye.

Amavuta yo kwisiga yatunganijwe hakoreshejwe ikimera gakondo kizwi ku izina nk'igikakarubamba, abayisiga atuma uruhu rwabo rusa neza, akabarinda ndetse akabakiza n'ibiheri, agatuma n'uruhu rwabo rukomera.

Amavuta ari mu icupa rifite ibara ry'umuhondo n'umufuniko w'umutuku apfundikiye neza yatunganyijwe bifashishije ikimera kizwi ku izina nk'igikakarubamba gikoreshwa cyane cyane n'abanyarwanda ndetse n'abandi bo mu bihugu bya Afurika.

Icupa ririmo umuti watunganyijwe hakoreshejwe ikimera cy'umuravumba, uwo muti ukoreshwa mu kuvura indwara nyinshi harimo ibicurane inkorora ndetse n'izindi, bigatuma umuntu akira akabaho neza.

Icupa rifite ibara ry'umweru ripfundikiye neza ririmo imiti, ibinini byakozwe hakoreshejwe ibintu bitandukanye harimo n'ibimera, ibyo binini bikoreshwa n'abarwayi kugira ngo bakire.

Ibimera byinshi by'amoko atandukanye, bifite amababi y'icyatsi, na tungurusumu, ndetse na tangawizi n'ibindi, bikoreshwa mu buvuzi gakondo, mu kuvura indwara zitandukanye, iz'uruhu, imitsi, ndetse n'izindi ndwara, binifashishwa mu gukora ibindi bintu, harimo n'amavuta.

Isabune yakozwe hifashishijwe avoka n'ikimera gakondo kizwi ku izina nk'igikakarubamba, ikoreshwa n'abantu mu kuyikaraba kugira ngo bagire uruhu rwiza, base neza mu bandi.

Amavuta yo kwisiga yakozwe hakoresheje ibintu bitandukanye harimo n'ikimera bita igikakarubamba, akoreshwa n'abantu, bayasiga ku mubiri wabo kugira ngo bagaragare neza banase neza mu bandi, banahumure neza.

Amavuta y'uruhu yatunganyijwe hifashishijwe igikakarubamba, akoreshwa n'abayisiga mu kubavura indwara z'uruhu, amabara ,ndetse n'ibiheri no gutuma bagira uruhu rwiza.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi n'indabo zifite ibara ry'umweru gikoreshwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye ku bantu ndetse no ku nyamaswa iyo cyatunganijwe neza, kiri mu bimera gakondo bizwi nk'umuti cyangwa nk'ubutabazi.

Umuti watunganijwe neza, ufunyitse, wakozwe hifashishijwe ikimera gakondo kizwi ku izina nk'igikakarubamba, ukoreshwa n'abantu mu kuwisiga, ukabavura ibiheri, ukabarinda n'amabara y'umukara mu isura yabo, ugatuma basa neza.

Ikimera gakondo gifite amababi y'icyatsi kizwi ku izina nk'umuravumba, gikoreshwa cyangwa cyakoreshwaga n'abaturage bo mu bice byo mu cyaro, mu kubavura indwara zitandukanye harimo ibicurane inkorora ndetse n'izindi.

Ibimera byinshi ibirebire ndetse n'ibigufi, bifite amababi afite ibara ry'icyatsi, bikoreshwa nk'imiti biratunganywa kugira ngo urwaye abifate bimukize indwara zitandukanye, yongere kugira ubuzima bwiza abeho neza.

Abantu benshi, harimo abambaye imipira ifite ibara ry'icyatsi isa, bari mu murima uteyemo ikimera gakondo kizwi ku izina nk'igikakarubamba, gikoreshwa mu gutunganya ibintu byinshi, harimo amavuta yo kwisiga ndetse n'ibindi no kuvura indwara.

Imiti yatunganyijwe ibitse neza mu tubido dupfundikiye neza, yakozwe hifashishijwe ikimera kizwi ku izina ry'igikakarubamba gikoreshwa cyane cyane mu gukora imiti ndetse no kuvura indwara.

Amavuta ari mu macupa yakozwe hakoreshejwe ibimera bitandukanye, harimo nk'igikakarubamba, akoreshwa n'abantu mu kuyisiga kugira ngo bagire uruhu rwiza ndetse banase neza ku mubiri wabo.

Ubwoko bw'ikimera gifite amababi y'icyatsi, gikoreshwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu, imitsi ndetse n'izindi, gishobora na none gutunganywa kikifashishwa mu gukora isabune n'imiti ndetse n'ibindi.

Ikimera giteye mu butaka, gifite amababi y'icyatsi, gikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye ku bantu, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza kandi banabeho neza, bagikoresha babanje kugitunganya, kugisekura, cyangwa kugisya.

Umuti w'uruhu, umeze nk'amavuta, watunganijwe hifashishijwe ibimera gakondo, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, ukoreshwa n'abantu, barawisiga ukabavura ibiheri, amabara ku ruhu, ndetse n'izindi ndwara z'uruhu.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi gikoreshwa nk'umuti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye kugira ngo bagikoreshe barabanza bakagitunganya, kugisekura cyangwa kugisya kugira ngo ugifata abashe kugikoresha neza akire n'indwara

Amavuta yo koga ndetse n'isabune yo gukaraba byatunganyijwe hakoreshejwe ikimera kizwi ku izina nk'igikakarubamba, akoreshwa n'abantu kugira ngo babashe kugira uruhu rwiza ndetse banase neza mu bandi.

Umuti woza amenyo, ufunitse neza, watunganyijwe hifashishijwe ibimera gakondo, igikakarubamba ndetse n'ibindi, uwukoresha utuma agira impumuro nziza mu kanwa, ukanamurinda kwandura indwara, zifata amenyo.

Ikimera giteye mu butaka gifite amababi y'icyatsi ni kigufi ntabwo ari kirekire gikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, iyo cyatunganyijwe neza kugirango abantu babashe kugira ubuzima bwiza ndetse babeho neza bongere bakire.